Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Abantu batandukanye barimo abirabura ndetse n'abazungu ,bigaragara ko baje gushaka serivisi za sosiyete y'itumanaho MTN. MTN ni imwe muri sosiyete zikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho ikoresha abantu benshi cyane.